Kunoza ibikoresho by'amazi n'isuku, bifasha kugabanya icyorezo cy'indwara mu midugudu itandukanye, tunizera ko tutazakomeza kubona indwara ya Korera mu midugudu yose. Ingaruka z'ibi bikorwa zabaye ndende cyane mu kurwanya izi ndwara.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa ari gutera urushinge umubyeyi wahumirije kubera uburibwe n'ubwoba, hari abavuzi benshi bari gupima indwara zitandukanye zibasira imibiri yacu zikatuzahaza.

Gari izengurukishijwe imyenzi, akarima k'igikoni karimo imboga, insina, ibiti by'isombe, ibiti byubatse mu buryo bwa kera bwifashishwaga mu kubikaho ibikoresho by'ibanze nk'ibikombe tunyweramo, amasahani turiraraho ndetse n'ibiyiko n'amafurusheti.

Umwana wishimye, uri kuvoma amazi ahabugenewe, kunoza ibikoresho by'amazi n'isuku bifasha kugabanya icyorezo cy'indwara mu Majyepfo ndetse no mu midugudu itandukanye, tunizera ko tutazakomeza kubona indwara ya Korera mu midugudu yacu, ingaruka z'ibi bikorwa zabaye ndende cyane mu kurwanya indwara.

Nyakubahwa madamu Jeannette Kagame ari gutanga ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, avuga ko ubuzima bubi bwo mu mutwe buhagarika itumanaho mu guhungabanya imyumvire y'imiryango no kwangiza ubukungu bw'igihugu.

Abaturage batandukanye bari mu nama baganira ku bukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bubi bwo mu mutwe buhagarika itumanaho mu guhungabanya imyumvire y'imiryango no kwangiza ubukungu bw'igihugu.

Ubuzima bw'amenyo buzwi kandi nk'ubuzima bwo mu kanwa, bivuga bwiza bw'amenyo yawe hamwe na sisitemu yose yo mu kanwa bikubiyemo imyitozo yo gukomeza umunwa usukuye kandi ufite ubuzima bwiza kugirango wirinde indwara n'ibibazo.

Ubuzima bw'amenyo amashusho y'mbege abaganga bakoresha ubuvuzi kugirango basuzume imiterere badashobora kubona mu mugihe cyo kwisuzumisha bisanzwe, nk'urwasaya imitsi n'imizi y'amenyo bigatuma bakoresha imashini zabugenewe.

Akana k'agakobwa kambaye ikanzu kicaye mu ntebe y'ubururu, karishimye cyane kari guseka, kari kwita ku menyo yako. Ubuvuzi bw'amenyo amashusho y'imbere y'amenyo abaganga bakoresha, ubuvuzi kugirango basuzume imiterere badashobora kubona mu mugihe cyo kwisuzumisha bisanzwe nk'urwasaya imitsi n'imizi y'amenyo bigatuma bakoresha imashini zabugenewe.

Icyumba cy'inzobere, umurwayi ahuriramo na muganga, kubwo kumenya imiterere y'amenyo hamwe yose. Gikubiyemo gukumira no kuvura indwara zifata mu kanwa.

Ikigo cy'amashuri, abaganga batandukanye baje gutanga ubukangurambaga ku buzima bw'amenyo, amashusho y'imbere y'amenyo, abaganga bakoresheje ubuvuzi kugira ngo basuzume imiterere badashobora kubona mu gihe cyo kwisuzumisha bisanzwe nk'urwasaya, imitsi n'imizi y'amenyo, bigatuma bakoresha imashini yabugenewe bereka bano bana.

Umwana mwiza w'umukobwa wambaye agakanzu, yicaye mu ntebe y'ubururu, agatambaro mu umutwe, arishimye, ari guseka yoza amenyo, yirinda indwara zose zifata mu kanwa. Koza amenyo n'ingenzi.

Hateraniye abantu benshi ingeri zose. Imbere hari abasaza babiri bambaye ingofero bashaje cyane. Bariteye, bambaye amashati, barishimye cyane bari gukoma amashyi.

Umurezi w'umukobwa wambaye imyenda y'akazi y'ubururu bwerurutse, arishimye ari guseka ashimishijwe n'uko ari kwita ku musaza hamwe n'ubuvuzi bw'ubuzima amuha imiti n'inyongera yo kumugira inama ku burwayi bwe, amubwira uko yakwitwara ngo akire byihuse.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero, ari gukingira umusore wambaye isarubeti n'agapfukamunwa, amutera urushinge ku kaboko. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Kovide cumi n'icyenda. Uru rukingo ni ingenzi cyane mu buzima bwacu.

Ababyeyi bane bari kumwe n'impinja zabo barishimye, bari guseka, bari kuganira, baje gukingiza abana babo ku kigo nderabuzima urukingo rw'impinja.

Ikigonderabuzima cya nyarurenzi ni ibitaro byita ku barwayi benshi batandukanye, yaba umutwe, malariya, umugongo bigatuma abarwayi batarembera mu rugo muri aka gace..

Iraguha farurmasi: ni inzu itanga imiti y'ubwoko bwose , yaba iy'umutwe, igifu, malariya, ifasha benshi mu kubona ubuvuzi bw'ibanze muri aka gace, kandi ikorana n'ubwishingizi bwose yaba Sanram, Urwego ndetse n'ibindi.

Mu bitaro, ahagenewe ubuvuzi bwihariye, hari abagabo babiri, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa. Ni abaganga. Bahagaze imbere y'imashini ikoreshwa mu gusesengura, ikanapima indwara nyinshi. Nko mu nda, igifu, mu mutwe, umugongo, bifashishije ibizami by'abarwayi.

Sangwa, ni ibitaro byita ku barwayi benshi batandukanye. Yaba abarwaye umutwe, malariya, umugongo, igifu, bigatuma abarwayi batarembera mu rugo.

Mu bitaro umukobwa w'umugangakazi wambaye imyenda y'ubururu, ari kwita ku murwayi uryamye arembye; umusore. Amwambika neza umwambaro w'abarwayi mu cyumba cy'indembe, ahari ibyuma bishitura umutima, ibyongera umwuka n'ibindi.

Umuganga muremure wirabura, umugabo yambaye itaburiya y'umweru ari iruhande rw'imashini ivura ikanapima Kanseri, ifasha abaganga gutanga ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihuse bivuye mu cyumba kimwe.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi Itaburiya y'umweru ipantaro y'umweru n'akanozasuku mu mutwe, ari iruhande rw'imashini ifasha mu gutandukanya mu bitegererezo by'amazi mu bushakashatsi bw'ibinyabuzima cyangwa imiti ni ahabugenewe bigakorwa n'uwabigenewe, ikoreshwa mu gutandukanya ibintu bishingiye ku bucucike mu gihe hagumye ubushyuhe buke bugenzurwa.

Umubyeyi uhetse umwana, ari imbere y'ibitaro bya Kigina byita ku barwayi benshi batandukanye, yaba abarwaye umutwe, malariya, umugongo, igifu, cyangwa abavunitse, bigatuma abarwayi batarembera mu rugo.

Umukobwa muremure wirabura ari mu myitozo ngororamubiri izwi ku izina rya Koburapoze ifasha ikibuno kurambuka n'imitsi yo mu gatuza kimwe no kwagura urutirigongo.

Umuganga wabugenewe ari gusuzuma ivi ry'umurwayi inzobere mu by'ubuzima bishoboka ko ari umuvuzi w'umubiri arimo gukoresha intoki ze yumva ibintu bidasanzwe bibabaza umurwayi.

Icyapa cy'amategeko n'amabwiriza byo kwirinda kovide cumi n'icyenda: itwaze sanitayiza aho ugiye hose, karaba intoki buri gihe n'amazi n'isabune neza, shyira intera hagati yawe n'undi ihagije byibura ya metero, oga mu gihe uvuye gukina, gupfuka umunwa mu mugihe uri gukorora cyangwa se kwitsamura, guma mu rugo niba urwaye.

Amazi ari mu icupa ajya mu kirahure, amazi ni meza mu mubiri wacu atuma tugira ubuzima bwiza, aruhura ubwonko, adufasha gutekereza neza, ni ingirakamaro ku buzima. Utayanyweye agira ibibazo bitandukanye nk'uburwayi.

Amazi ari mu ijage ajya mu kirahuri. Amazi ni meza mu mubiri wacu, atuma tugira ubuzima bwiza, aruhura ubwonko, adufasha gutekereza neza, ni ingirakamaro ku buzima. Utayanyweye wagira ibibazo bitandukanye nk'uburwayi.

Umusore muremure wambaye umupira w'ubururu ipantalo y'umweru ekuteri mu ijosi, arahagaze yifashe mu mayunguyungu ari kunywa amazi avuye mu myitozo ngororamubiri, amazi ni meza mu mubiri wacu aturinda indwara aturinda byinshi.

Imashini yubuvuzi bwibanze ikoresha mu gushushanya imiterere y'imbere mu mubiri ifite inzira ikoresha umurongo wa radiyo rukuruzi ikomeye na mudasobwa, kugira ngo ukore urukurikirane rw'amashusho arambuye y'ibice by'umubiri.

Kuringaniza cyangwa gukora imyitozo yagufasha gukira. Guhagarara ku kaguru kamwe, gerageza ibi byibura buri kaguru amasegonda cumi n'atanu kuri mirongo itatu. Kora ingendo zihagaze usimburanya amaguru wifashishije intebe cyangwa akagare.

Imiti gakondo ivura neza. Inkorora, inzoka, icyo mu nda ku bana bakivuka. Abasogokuruza bo hambere, ntibakoreshaga ibya kizungu nkatwe. Ibyimejeje, ibihingwa, ni byo bivuzaga indwara zose kugira ngo ubuzima bwabo buzire umuze kandi bakomere.